Ikirango cyamamaza ubwishingizi bwiza kandi bugezweho, umuryango wishimye ubona ufite ibimwenyu ku maso, bishimiye ubwishingizi bakoresha gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, kanda akanyenyeri magana atatu na mirongo itatu na rimwe, urwego ugire umuryango ufite ubuzima bwiza.

Urubuga rwa murandasi rwifashishwa mu kohereza cyangwa kwakira amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga m'uburyo bwihuse kandi bunoze aho biba byoroshye kurukoresha wivunike.

IIguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibinyobwa, ibiribwa, n'umuguzi waje guhaha afite ibyishimo ubona ko ari kuganira n'umucuruzi baseka bishimye.

Iguriro ryiza kandi rigezweho, ricururizwamo imyambaro n'amasakoshi n'inkweto zigezweho ku biciro bikeya cyane ukabasha kugira icyo witahanira kandi udahenzwe.

Iguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hahagazemo umudamu mwiza ubona ufite ibimwenyu ku maso, witeguye kwakira abakiriya, aho ku mafaranga yose ufite utahana igicuruzwa cyose wifuza kandi udahenzwe.

Ririmo imyambaro myiza kandi idahendutse ubona ibintu bipanze neza kandi bifite isuku ku mafaranga iyo ari yo yose wahaha nk'umwambaro wifuza kandi ukubereye ukabasha kugenda mu bantu usa neza.

Iguriro ricuruza imyenda igezweho kandi myiza yiganjemo amakote yo kwambara mu birori no mu minsi mikuru, ku biciro bikeya ukaba nawe watahana ikote rikubereye kandi ryiza rikomeye.

Iguriro rigurisha ibinyobwa n'ibiribwa ubona hari intebe nziza n'ibiti bitanga akayaga hari n'imitako igezweho, aho ku mafaranga yose ufite ugira icyo urya ukabona n'icyo unywa udahenzwe.

Imodoka nziza zifite ibara ry'umweru zihagaze ahantu hamwe zagenewe kugurisha ku mafaranga makeya kandi zikomeye ukabasha gutunga imodoka yawe uzajya wifashisha mu bikorwa bya buri munsi.

Ikinyabiziga cy'imodoka kidafite ibirango, kiri mu muhanda kigenda cyacanye amatara, kigurishwa amafaranga makeya udahenzwe nawe ukabasha gutunga ikinyabiziga kikubereye.

Imodoka nziza isize ibara ry'umukara ubona ko ikomeye kandi inogeye ijisho, ku mafaranga makeya nawe wayitunga, ukagira ikinyabiziga cyawe kigufasha mu ngendo zitandukanye.

Abagabo babiri bambaye impuzangano ubona ko bashinzwe umutekano w'abantu ku giti cyabo, imbere yabo haparitse imodoka iri mu mabara y'umukara bateruye akantu kapande enye bagiye gushyira mu modoka yabo.

Abantu babiri bari gukora ubucuruzi bujyanye n'amafaranga, aho umwe ari kwakira undi amuha serivisi, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bafite n'umutekano w'amafaranga yabo.

Ibiganza bibiri bifasha amafaranga y'inoti z'abanyamahanga, harimo iz'ijana n'izindi zitagaragara neza, ikiganza gifite imishandiko n'indi biri imuri iruhande, n'akuma kifashishwa mu guteranya.

Ibiganza bifite amafaranga mu ntoki, iruhande rwabo hari imishandiko y'amafaranga n'akuma kifashishwa mu guteranya umubare w'amafaranga, mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umugabo wicaye kuri mudasobwa, ubona ufite amafaranga mu ntoki ze, uhanze amaso muri mudasobwa, wambaye ikoti ry'umukara, w'imibiri yombi, akaba yicaye ahantu heza kandi hafite isuku, ubona ko yishimye.

Amafaranga y'inoti z'ijana, akoreshwa mu Rwanda, harimo inyamaswa nk'imparage, indi iriho umubyeyi uhetse agahinja, afite n'inkoni, uri kugenda abona yishimye.

Iguriro ricuruza ibinyobwa n'ibiribwa byiganjemo amata, riri ahantu hasukuye mu nzu irimo intebe nziza kandi zigezweho aho ubona amata meza kandi aryoshye.

Iguriro ry'ibinyobwa harimo abasore n'abagabo, bafite ibikombe birimo ikinyobwa cy'amata, bari kunywa ubona bishimye kandi banezerewe baryohewe.

Iguriro ry'ibinyobwa bitandukanye, higanjemo amata, harimo abacuruzi babiri ubona ko bari kujya inama y'uburyo bakwiteza imbere.

Iguriro ry'amata meza kandi afite icyanga, aho hari umuryango ufite ibara ry'ubururu, uriho n'igipapuro cy'ibara ry'ubururu, hariho ishusho y'inyamaswa y'inka, itanga umukamo mwiza.

Iguriro ry'ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye, hacururizwamo ibinyobwa n'imbuto ku biciro bitoya, udahenzwe, ukabona icyo wifuza cyose, ukabasha kwimara icyaka cyangwa inzara.

Uburyo bugezweho bwo kohereza amafaranga cyangwa kwakira ukoresheje terefone ngendanwa, utavuye aho uri byoroshye gukoresha kandi byizewe byihuta nk'umurabyo.

Uburyo bwa murandasi ushobora kwifashisha wishyura ifatabuguzi ry'insakazamashusho yawe, mu buryo bwiza kandi, bwihuse bitagombye kuva aho uri; kandi ugahita ubibona ako kanya ukibikora, byihuta kurusha umurabyo!

Urupapuro rw'umweru ruri mu ishusho ya mpande enye, rwandikishijeho inyuguti z'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umukara, rugaragaza icyemezo cy'uko umucuruzi atabamo umwenda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, ukaba wakerekana ugiye kwaka iki cye...

Ikirahure cya mudasobwa kirimo urupapuro rwererana, rwandikishije amagambo mu nyuguti z'imikara n'utuzu turi mu mabara y'imikara, rwerekana inyemezabwishyu y'umusoro wishyuwe.

Mu kiyo cya mudasobwa ari mu rupapuro rwererana rwandikishije amagambo ari mu nyuguti z'umukara, bisa nkaho ari inyemezabwishyu y'umusoro ku nyungu.

Ibiganza bibiri biri mu ivunjishwa ry'amafaranga y'abanyamahanga aho umwe ahawe amafaranga y'abanyamahanga ku giciro gito adahezwe kandi yemewe n'amategeko y'igihugu.

Umugabo w'uruhu rwera, ufite inoti y'amafaranga magana atanu n'iy'igihumbi muganza bye bibiri. Hariho ifoto y'umugabo wambaye amadarubindi umwenyura.

Ikirango cyerekana ahakorerwa ivunjishwa ry'amafaranga y'abanyamahanga udahenzwe, kandi yemewe n'amategeko, ugahabwa ayo wifuza yose mu buryo bwizewe kandi busesuye bufite umutekano bitaguteza ibibazo.

Iguriro ry'ihinduranwa ry'amafaranga y'amanyamahanga, aho ibiganza bibiri biri guhererekanya, kimwe cyakira ikindi gitanga, akaba ari amafaranga y'amanyamahanga yemewe n'amategeko ubona ko biri mu mucyo kandi bisesuye.

Ikiganza gifite inoti z'abanyamahanga harimo iza magana atanu, harimo umugabo w'umusaza wambaye amadarubindi ubona wishimye kandi anezerewe. Aya mafaranga yemewe n'amategeko y'igihugu.

Inoti z'amafaranga y'amanyamahanga, hejuru yazo hateretse ibiceri bitandukanye, ku ruhande hari akuma kagenewe guteranya imibare, kagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse vuba.

Ibiganza by'umuntu ufite uruhu rwera bifite amafaranga y'amanyamahanga mu biganza byombi biri guhererekanya, bari mu ivunjisha ry'amafaranga aho ahabwa amafaranga yifuza akayakoresha kandi yemewe n'amategeko.

Inzu nziza kandi yubatswe ahantu heza hagenewe ubucuruzi bw'ivunjisha faranga, aho amafaranga yose ufite yaba ay'abanyamahanga baguha ayo wifuza yose, ku giciro gitoya kandi akaba yemewe n'amategeko y'igihugu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ihinduranya ry'ama amafaranga, cyangwa ivunjisha, waba ufite amanyamahanga baguha ayo ukeneye yose ku giciro gito kandi udahenzwe, ayo mafaranga akaba yemewe n'amategeko...

Inzu ihindurirwamo amafaranga y'amanyamahanga, aho ayo waba ufite mu gihugu icyo ari cyo cyose, uzana bakaguhindurira urabona ayo ushaka udahenzwe kandi amafaranga akaba yujuje ubuziranenge, bikaba byemewe na banki nkuru y'igihugu.

Inzu isize amabara y'umuhondo, ikorerwamo ubucuruzi bw'ihinduranwa ry'amafaranga y'abanyamahanga, aho uhabwa amafaranga yemewe n'amategeko kandi yujuje ubuziranenge, ukabasha kuyakoresha icyo wifuza mu buryo burambye kandi butekanye.

Iri duka ridufasha guhinduranya amafaranga mu buryo bwizewe kandi busesuye n'umutekano, aho ayo mafaranga atari amiganano aba yemewe na leta, wabikuza ku giciro gitoya kandi udahenzwe serivise nziza niyo ituranga.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ihinduranwa ry'amafaranga, yaba ay'amanyarwanda cyangwa ay'amanyamahanga, aho aba yemewe n'amategeko ya leta kandi atari amiganano, asukuye kandi afite umutekano.

Inzu ntoya ikorerwamo ubucuruzi bw'ihinduranwa ry'amafaranga y'amanyamahanga, aho ubona amafaranga wifuza ku biciro bitoya kandi bataguhenze, ugahabwa amafaranga yemewe n'amategeko y'igihugu.

Igikoresho cyo mu ruganiriro ushyira mu nzu igasa neza, aho gikoze mu mbaho zikomeye kandi mu buryo bugezweho, kiri mu nzu nziza kandi ifite isuku ikeye ibereye ijisho.

Ameza akoze mu buryo bwiza bw'ibirahure, n'imbaho bivanze, n'intebe zifite isuku kandi zikomeye, aho biri ahantu mu ruganiriro, ubona ko hafite isuku kandi hakeye, ku mafaranga make ukaba wabyigurira ukagera iwawe hakeye.

Mu ruganiriro rw'inzu nziza isize amabara y'umweru, ubona ari amashusho ateye ubwuzu amanitse ku bikuta byayo n'intebe nziza ziri muri salo n'utumeza duteye, ni twubake neza dukomeye.

Inzu nziza ubona ko ifite isuku, harimo uruganiriro rwa kijyambere rwubatse neza, hari n'intebe nziza, n'isakazamashusho iteye mu gikuta, ubona ko bibereye ijisho, n'utubati twiza tugezweho, turimo imitako.

Utubati n'intebe nziza, ubona biri ahantu hasukuye hasize ibara ry'umweru n'amatara arikwaka, biragurishwa nawe ukagira ahantu heza hakeye afite isuku.

Ubusitani bwiza buteyemo ibiti, harimo umutaka ukingira izuba abantu bahicayemo, aho haba hari amahumbezi, batekanye kandi bishimye.

Ikidendezi gikorano cy'amazi bifashisha bari kogamo, ku nkengero zaho hateye ibidukikije byiganjemo indabo zisa neza, inyuma hari inzu isize amabara y'ubururu n'amasakaro meza agezweho kandi iri ahantu hagezweho.

Inzu nziza ifite amabara y'umweru yandikishije amagambo y'ubururu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ubwishingizi aho ushinganisha imitungo yawe n'ubuzima bwawe bukajya mu biganza byabo aho bagufasha mu gihe kizaza aho wowe ukomerewe barahakubera.

Ibiro by'ikigo gicuruza ubwishingizi ku mutungo cyangwa ku buzima bw'abantu aho uhabwa ubwishingizi bukubereye buberanye n'imitungo yawe yose.

Isoko ryiza kandi rigezweho hagaragara umuguzi n'umucuruzi uri kumwereka imbuto afite mu kiganza ubona ko banezerewe, bishimiye gutezanya imbere bagahahirana mu buryo bwiza kandi bunoze.

Isoko ricuruza imitako gakondo yiganjemo uduseke n'ibindi bikoresho bya kera bibereye ijisho, ubona ku mafaranga makeya cyane udahenzwe nawe ukagira iwawe hakeye hari n'isuku.

Isoko ricururizwamo imyambaro rihagazeho abaguzi n'abacuruzi aho amafaranga yose ufite ubasha gutahana umwenda wawe ukubereye kandi ukomeye udahenzwe.

Isoko rinini kandi rigezweho ririmo imyambaro itandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha, harimo uwambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu, ingofero mu mutwe ireba inyuma, aho baje guhahirana bishimye kandi banezerewe.

Iri n'isoko mpuzamahanga rya Nyarugenge, aho ubona ibicuruzwa byose ushaka ku mafaranga makeya kandi udahezwe, imbere y'iri soko ukaba wasanga urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitegereje abo bitwara.

Iki ni ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya telefoni yawe, aho hagaragara imibare wakoresha uri kwishyura.

Akazu gatoya kagenewe gucururizwamo ibikorwa bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa terefoni ngendanwa aho uguriramo amayinite n'amaterefoni ku biciro bitoya udahenzwe.

Akazu gatoya kagenewe ubucuruzi bw'ibikoresho byitumanaho waba uri kohereza amafaranga cyangwa wakira baragufasha m'uburyo bwizewe kandi bwihuse amafaranga yawe akaba ari m'umutekano.

Umugabo uri mu kazu gato gafite ibara ry'umuhondo, gacuruza ibijyanye n'itumanaho, ufite ikaramu mu ntoki, uri kwandika mu ikaye imbere ye hari umuguzi w'umutegarugori bari kuganira.

Isoko ryo murandasi rikorerwaho ubucuruzi butandukanye bw'ibintu yaba imyambaro cyangwa inkweto, aho ugura udahenzwe kandi ugahabwa umwenda cyangwa inkweto bikomeye ku giciro gitoya udahenzwe.

Amapikipiki ane ariho n'udutwara imizigo n'abayobozi bayo, aho bifashishwa mu kujyana ibicuruzwa wahahiye murandasi bakabikugezaho aho uri hose utiriwa uva aho uri.

Igikoresho cyo mu nzu kizwi nk'igitanda cyangwa uburyamiro bwiza bushasheho amashuka y'umweru, ubona ko gikomeye, cyubatse mu mbaho zifite ireme, kiri mu nzu nziza isize irangi ry'umweru, aho ku mafaranga macye nawe wakibona ukaryama ahantu hatuje kandi hatekanye ntamavunane.

Uruganiriro rwiza kandi rugezweho rufite isuku, harimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, harimo insakazamashusho iteye mu gikuta n'intebe nziza zifite ibara ry'umweru n'ameza meza asa umweru.

Inzu nziza kandi igezweho iri ahantu hagenewe guturwa, yubatswe mu buryo bwiza kandi bukomeye, ifite ibara ry'umweru n'ibyumba byiza harimo ubwogero naho kuganirira hasa neza, ku mafaranga make ukaba wayibona itaguhenze.

Inyubako nziza, ubona iri ahantu hagenewe guturwa, hatari mu manegeka, mu imbere y'iyo nyubako, asize irangi ry'umweru, hanze hari intebe nziza, zifite imifariso, idoze neza, imbere hari ubusitani, n'iruhande rwayo atemo igiti cy'umukindo, imbere hahagaze umugabo w'uruhu rwera, n'umudamu w'uruhu rwirabura.

Inzu nziza iri ahantu mu gipangu cyubakisha amatafari ahiye, inzu ubona ko ikomeye iri ahantu hagenewe guturwamo, isize amabara y'umweru; imbere hari ubusitani butoya buteyemo indabyo n'ibyatsi bibereye ijisho.

Inzu nziza iri ahagenewe guturwa imbere hari ikibanza kinini ikaba igera k'umuhanda aho haparitse ipikipiki, inzu ikaba yubatse neza ite amarangi meza ari ahantu hafite umutekano nawe ukabasha kuba mu nzu nziza kandi ikubereye.

Inzu nziza yubatse ahagenewe guturwa, ifite amabati meza kandi akomeye, yubatse ahantu hatuje, hatari akajagari, ikaba ikodeshwa, irimo ibyumba bine, ubwogero butatu, ku mafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda, nawe ugatura ahantu heza kandi hatunganye.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru w'imibiri yombi n'umusatsi mukeya, uri iruhande rwinzu isize amabara meza kandi ikomeye, ifite n'amabati meza, urabona ko ari kujya inama.

Inzu nziza y'umuturirwa igeretse kabiri, ku nkengero zayo hateye ubusitani bwiza burimo ibiti by'inganzamarumbo, inzu ikaba yubatse ku buryo bukomeye, iri ahagenewe guturwa, aho inkingi zayo zisize ibara ry'umweru, ahandi ikaba iteguye neza.

Inzu nziza itari mu manegeka iri ahagenewe guturwa muri Kigali, ubona ko ifite isuku, isize amarangi y'umweru n'ivu, n'umuryango ukoze mu birarahure aho ikodeshwa amafaranga makeya, nawe ukaba ahantu hatunganye kandi hafite isuku.

Isoko rinini rya kijyambere kandi rigezweho, aho usangamo ibicuruzwa byose wifuza ku mafaranga makeya udahenzwe, nawe ukabasha kwitungira ibintu bigezweho kandi byujuje ubuziranenge.

Iguriro rinini rya kijyambere kandi rigezweho, harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo ab'uruhu rwera n'uruhu rwirabura bari kugenda bishimye baje kwihahira badahenzwe kandi banezerewe ni ahantu baje guhahira.

Imigati myiza iryoshye kandi ihendutse, aho ku mafaranga yose ufite utahana umugati wose ushaka, ukagira ubuzima bwiza ubikesha kurya umugati ufite isuku kandi n'intungamubiri zihagije.

Iguriro rya kijyambere rigezweho kandi ryubatse neza mu buryo butangaje, aho harimo abaturage baje guhaha ubona bishimiye ko bari ahantu hasa neza bishimiye no kwifotoreza.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ndende z'imbaho, bafite ibipapuro mu ntoki ubona bategereje cyangwa ari serivisi baje gusaba.

Uru rupapuro ruri mu ibara ry'ubururu bwerurutse bugaragaza ubwisungane mu kwivuza, aho ufite uru rupapuro atarembera mu rugo cyangwa ngo agira ikindi kibazo kuko niyo arwaye abona ubuvuzi ku gihe kandi akivuza ku mafaranga makeya cyane adahezwe.

Isoko rya kijyambere kandi rigezweho, ryubatse ahantu heza mu buryo bugezweho bacuruza ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa ku mafaranga makeya udahenzwe ku buryo ayo ufite yose wihahira n'umutuzo.

Isoko rya kijyambere kandi rigezweho ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imyambaro riri ahantu hafite isuku kandi hatekanye, aho ku mafaranga yose ufite ugira icyo utahana ukabasha kwiteza imbere mu buryo bw'imirire n'imyambarire.

Isoko rya kijyambere kandi rigezweho, ryubatse ahantu heza hafite isuku kandi hagaragara neza, harimo ibicuruzwa by'amoko yose, aho ayo ufite yose, ubasha kwihahira ku biciro bikeya udahenzwe kandi ukajyana ibintu bifite ireme.

Ni isoko harimo abantu batandukanye, bamwe ubona ko basa nk'aho barimo kwakirwa bishyura, imbere yabo hari ambaralaje bigaragara ko bari bahashye ibicuruzwa bimwe na bimwe.